Umuhanzi w'icyamamare uzwi nka Israel Mbonyi ubona ko ari gufasha abana mu mikurire yabo, yambaye umupira usa nk'uw'abo bana bigaragara ko ari gupima umwana ibiro, inyuma ye hari abandi bantu.

Ivomero rusange bigaragara ko ryubatse mu rwego rw'isuku y'amazi meza, hari abaturage benshi ubona ko baje kuvoma ayo mazi ndetse n'amajerekani menshi atonze umurongo bigaragara ko yose ategereje kuvomerwa.

Ahantu ubona hicaye abamama benshi batandukanye, buri wese afite umwana mutoya bigaragara ko ari ahakurikiranirwa ubuzima bw'abana bakiri bato ngo babashe gukura neza kandi bafite ubuzima bwiza.

Icyapa cy'amabara y'ubururu ndetse n'inyuguti z'umweru cy'umuryango mpuzamahanga, ishami ryita ku bana batoya ndetse n'impunzi zaba zaje mu gihugu runaka.

Abantu benshi ubona bari kuganira ku bijyanye nubuzima, hara umuntu kandi ubona ko ahagaze bisa nkaho ariwe ufite icyo ari kubabwira, abandi nabo bicaye bamuteze amatwi.

Abantu benshi ubona bambaye impuzangano y'umweru ndetse n'ubururu, imbere yabo hari icyapa cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima cya RBC bigaragara ko bari kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri y'inkondo y'umura.

Abantu benshi ubona bambaye neza bigaragara ko bari bari kuganira ku bijyanye n'ubuzima imbere yabo hari ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda inyuma yabo hari icyapa cyerekana ibyo bari barimo ndetse n'ababikoraga biragaragara ko bari gufata ifoto y'urwibutso.

Ni ahantu hari abantu benshi ubona ko habereye ubukangurambaga mu mikurire y'abana, harimo abantu ubona ko bari kubaha ibyo kunywa, ndetse harimo n'ushinzwe umutekano ubona ko ari kugaburira umwana bigaragara ko bari kwimakaza ubuzima bw'abana bakiri bato.

Icyumba ubona kirimo umuganga hari kandi n'umu mama ufite umwana mutoya bigaragara ko bari kumukingira urukingo rw'indwara runaka, inyuma yabo hari abandi bantu ubona bambaye impuzangano bigaragara ko nabo ari abaganga.

Umwana mutoya ubona w'umunyeshuri bigaragara ko ari kuvoma amazi ku kigega, ari kuyavoma mu gikombe bisa nk'aho agiye kuyanywa yimakaza isuku yo kunywa amazi meza ndetse yirinda indwara ziterwa no kunywa amazi mabi.

Igikoresho cyabugenewe mu kwimakaza isuku y'intoki kizwi nka kandagira ukarabe, giteretse ku kameza gatoya, bigaragara ko hari n'umwana wambaye impuzangano ukiri muto, uri gukaraba amazi meza kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza no kwirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Abantu ubona bari kuganira ibijyanye n'ubuzima bari mu cyumba kigari cyisanzuye kirimo ameza maremare ubona ko buri wese imbere ye hari amazi yo kunywa ndetse buri wese afite na mudasobwa, bigaragara ko ari abakozi bakorera aho ngaho bari gukora inama ku byerekeranye n'ubuzima.

Ivomero rusange ryubatswe neza ubona ko rizana amazi meza kandi asukuye, hari abana bambaye impuzankano bigaragara ko bari gukaraba intoki ndetse no kuvoma amazi kuri ayo mavomero, inyuma yabo hari ubusitani bwiza ubona ko burimo imikindo.

Imodoka yabugenewe gutwara abarwayi barerembye izwi nka ambiranse, inyuma yayo hari abantu benshi cyane bigaragara ko bari kwigishwa ibijyanye n'ubuzima ndetse harimo n'abashinzwe umutekano ari kandi n'indi modoka ubona ko nayo yazanye abantu baje aho hantu.

Ivomero rusange mubona, riri ahantu mu giturage, hari kandi umwana ubona ko ari gukaraba intoki. Inyuma ye hari ijerekani ubona ko itegereje kuvomerwa.

Ahabereye inama y'abayobozi bakomeye bigaragara ko bari kwiga ku kibazo kijyanye n'ubuzima, imbere yabo hari ameza ateretseho ibyo bari kwifashisha ndetse icyumba barimo kirimo n'ibendera ry'u Rwanda.

Ivomero rusange ubona ryubatswe mu rwego rwo kwimakaza isuku ndetse no gukoresha amazi meza birinda indwara ziterwa n'imyanda. Hari abana benshi ubona ko baje kuvoma ndetse n'umuntu mukuru bigaragara ko ari kuberekera.

Ivomero rusange ubona ryubatswe mu buryo bwiza hari abana babiri ubona ko bari gukaraba intoki n'amazi meza, bigaragara ko bari kwimakaza isuku ndetse no kwirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Ivomero rusange ubona rikoreshwa bazana amazi meza, hari umwana umwe ubona ko ari kuvoma mu njerekani ndetse n'abandi bantu benshi ubona ko bari kureba ibikorwa n'undi muntu uri kuvoma aho ngaho.

Abaganga benshi bambaye impuzangano ndetse n'udupfukamunwa, harimo umwe ubona ko ari gukingira umugore na we wambaye agapfukamunwa, bigaragara ko ari kumukingira indwara runaka.

Umuganga wambaye uturindantoki ndetse n'impuzangano y'abaganga, ari kumwe n'umumama uteruye umwana bigaragara ko uwo mwana afite igikomere mu mutwe, uwo muganga akaba ari kumupfuka.

Umuganga bigaragara ko yambaye uturindantoki, ubona ko afite urushinge ari gukingira umuntu, na we wazamuye umupira kugira ngo abashe kumutera urushinge ku kaboko.

Ahantu benshi ubona higanjemo abambaye impuzangano bigaragara ko bakora kwa muganga, hari kandi n'abanyamahanga bari muri bo bigaragara ko hari gutangirwa ubukangurambaga ku buzima, hari kandi n'abantu bari gufata amafoto y'urwibutso.

Isomero rusange ubona ryubakiye na sima bigaragara ko havomera abantu benshi. Hari abana ubona bose baje kuvoma ariko harimo umwe ubona uri gukinisha amazi ayamena, bagenzi be nabo bamureba ibyo akora.

Ivomero rusange ubona ko ryakozwe mu kwimakaza isuku ndetse no kurinda indwara ziterwa n'amazi mabi ndetse n'umwanda, hari umwana ubona ko yishimye ari kuvoma kuri iryo vomero, ndetse hari n'izindi jerekani ziri hasi ubona ko nazo zitegereje kuvoma.

Abana ubona ko ari abanyeshuri bambaye impuzangano bari kuvoma ku bikoresho byagenewe kubikwamo amazi meza bafite ibikombe buri wese ari kunywera muke bigaragaza ko ari ukwimakaza isuku yo kunywa amazi meza ndetse no kwirinda indwara ziterwa no kunywa amazi mabi.

Abana benshi ubona bambaye impuzankano iri mu ibara rya kacyi ubona ko buri wese ari gukaraba, bigaragara ko bari kwimakaza isuku yo gukaraba intoki ndetse no kwirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Abana batoya bambaye impuzangano bari kumwe n'abantu bakuru, bigaragara ko harimo n'abambaye ibirango by'ikigo mpuzamahanga gifasha abana kizwi nka yunisefu. Harimo kandi n'abandi ubona ko baje gusura abo bana ngo babashe kubafasha kugira ubuzima bwiza.

Umugabo ubona ko ageze mu za bukuru ushaje cyane, imbere ye hari umuganga ubona ko ari kumupima umuvuduko w'amaraso yifashishijwe igikoresho cyabugenewe mu gupima umuvuduko.

Umuganga wambaye impuzangano y'abaganga ndetse n'ikarita ibaranga, wambaye uturindantoki, bigaragara ko ari gukingira, hari umwana umwe ubona ko uri gukingirwa ndetse n'abandi benshi bari inyuma ubona bose bategereje kugerwaho.

Umwana mutoya w'umukobwa, wambaye imyenda isa, bigaragara ko ari gukaraba n'amazi meza ndetse ari gukarabira mu ibase y'umukara, bigaragara ko bari kwerekana ko umuntu agomba gukora isuku yo ku ntoki.

Ikimodoka kinini ubona kirekire cyane, kiriho icyapa cyerekana ko gikorera umuryango mpuzamahanga wo kurwanya inzara ndetse n'imirire mibi ku isi hose.

Abantu benshi bicaye ku ntebe, buri wese afite ikayi, urabona ko habereye amahugurwa ku buzima. Bakurikiye imbere bigaragara ko hari umuntu ufite ibintu ari kubasobanurira uri imbere yabo.

Ivomero rusange ubona ryakozwe mu kwimakaza isuku y'amazi meza. Imbere yaryo hari abantu benshi, ubona ko barigannye baje kuvoma, bafite ibivomesho, hari kandi n'umuntu uri gukoresha iryo vomero bigaragara ko ari we ugezweho kugira ngo abashe kuvoma.

Umugabo w'umunyarwanda ubona ko ari kumwe n'undi muntu utari umunyarwanda, bameze nk'aho bari gufata ifoto y'urwibutso, bafite agakapu kanditseho visiti Rwanda. Inyuma yabo hari icyapa kiriho amahame cumi narindwi ngenga terambere ku isi yose.

Ahantu ubona ko hakorewe isuku hari abantu batatu ubona ko bafite amajerekani bari kuvoma amazi meza bigaragara ko bari kwerekana gukoresha amazi meza birinda indwara ziterwa n'umwanda.

Ahantu ubona ko hatangirwa serivise y'ubuvuzi ndetse no kumenya uko ubuzima bw'abantu buhagaze hari abantu ubona ko bambaye imyenda mpuzangano y'abaganga, hari kandi n'umukobwa ubona ko yaje abagana, bamushyizeho igipimo kifashishwa mu gupima umuvuduko w'amaraso, bari kureba uko bu ubuzima bwe buhagaze.

Abantu bambaye neza bigaragara ko bose bari kurebana harimo abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga bigaragara ko bari kuganira ku buzima. Imbere yabo hari ameza maremare ariho indabo nziza kandi buri wese imbere ye hari amazi. Bafite n'ibyo kwandikaho ibyavugiwe aho.

Ivomero rusange ubona ryubatse mu rwego rwo kwimakaza isuku ndetse no gukaraba amazi meza banirinda indwara ziterwa n'umwanda, hari abana bari gukaraba amazi bigaragara ko batojwe isuku.

Amavomero rusange ubona yakozwe mu kwifashisha bavoma ndetse bimakaza isuku y'amazi meza, imbere yayo hari abana bato ubona ko bari gukaraba ayo mazi mu rwego rwo kwimakaza isuku, ndetse no kwirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Ahantu ubona habereye ubukangurambaga ku buzima hari abaturage benshi bicaye ahantu hasakajwe ibitambaro bifite amabara y'icyatsi, umuhondo, n'ubururu imbere yabo hari umukobwa ubona ko umeze nk'umuganga afite insakaramajwi kugira ngo abantu bose bateraniye aho babashe kumwumva.

Ahantu hari abantu ubona ko bakuze bigaragara ko bambaye impuzankano bisa nk'aho ari abajyanama b'ubuzima, buri wese afite ikayi yo kwandikamo bisa nk'aho bari guhabwa amahugurwa ku bijyanye n'ubuzima.

Ivomero rusange ubona rikoreshwa mu kigo cy'amashuri, hari abana bambaye impuzankano ubona ko bari gukaraba intoki, hari n'abandi ubona ko barangije gukaraba intoki ndetse n'abahagaze inyuma yabo ubona batarakaraba.

Abantu benshi batandukanye ubona ko bari kuganira ku bijyanye n'ubuzima, imbere yabo hari ibikoresho bitandukanye ndetse n'ibikombe ubona ko bafatiyemo icyo kunywa, bose bafite icyo bari kubwirana ku bijyanye n'ubuzima.

Ivomero ubona riri kuvaho amazi asa neza cyane hari kandi umuntu ubona ko ari gukaraba ibiganza byombi mu rwego rwo kwimakaza isuku ndetse no kwirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Umuntu ubona ko yambaye agapfukamunwa bisa nkaho ari gukingirwa urukingo rwa covide, hari kandi n'umuntu ubona ko ari kumutera urushinge nawe yambaye agapfukamunwa ndetse n'undi muntu uri inyuma yabo uri kubarebera wambaye agapfukamunwa.

Ahantu hisanzuye, ubona ko habereye inama ku bijyanye n'ubuzima, imbere yabo hateretse ameza ariho udukombe, ubona ko bifashishije babakira, bigaragara ko bari kuganira, buri wese afite icyo ari gutangaho igitekerezo.

Umwana mutoya wambaye imyenda y’umutuku bigaragara ko ari gukaraba amazi meza bisa nkaho bari kwimakaza isuku ndetse no kwirinda indwara ziterwa n'umwanda ndetse n'icyapa cyamamaza ndetse kinerekana isuku.

Abantu benshi batandukanye ubona ko basoje amahugurwa ku bijyanye n'ubuzima bigaragara ko bari gufata ifoto y'urwibutso bamwe bicaye imbere abandi bahagaze inyuma urabona ko hari umuntu uri gufata ifoto y'urwibutso.

Umugore ubona wambaye agapfukamunwa n'uturindantoki urabona ko afite igikoresho cyabugenewe mu gupima umuriro mu buryo bugezweho hari kumwe n'undi mugore ubona uteruye umwana bigaragara ko uwo mwana yarwaye inyuma yabo hari n'undi mukobwa ubona ari kwitegereza ibyo bagiye gukora.

Icyumba kigari kisanzuye kirimo ameza mareremare, bigaragara ko ari mu bitaro, harimo kandi abantu ubona ko bahakora, buri wese afite icyo ari kwandika bigaragara ko bari gukora igenzura bandika mu makayi.

Ahantu hari abantu benshi ndetse n'umumama uri imbere yabo ubona ko yaguye, hari kandi n'icyapa cyerekana ko bagomba kwirinda ebola ndetse n'imbere yabo hari umuntu uri kuvugira mu isakazamajwi, bisa nkaho ari kubabwira ku cyorezo cya ebola.

Abaturage ubona ko bari guterura imifuka myinshi irimo ibintu bigaragara ko ari ibiribwa bisa nk'aho bahawe inkunga yo kwifashisha kugira ngo barusheho kubaho ubuzima bwiza.

Umugabo ubona ukuze, bigaragara ko yishimye cyane, yagiye ahantu ubona ko yagiye kuvoma amazi, afite ijerekani bisa nk'aho ari kwimakaza gukoresha amazi meza ndetse no kugira isuku mu byo akoresha ayo mazi.

Umugore wambaye impuzangano bigaragara ko ari umuganga, yicaranye n'umusore bigaragara ko ari umurwayi waje umugana, hejuru yabo hari icyapa kivuga ko tugomba kurwanya SIDA, bigaragara ko uwo musore ashobora kuba ari kwandikirwa imiti y'iyo ndwara.

Icyumba kigali cyisanzuye ubona cyabereyemo amahugurwa ku bijyanye n'ubuzima harimo abantu benshi bicaye bigaragara ko bitabiriye ayo mahugurwa ndetse n'umuntu uhagaze hagati yabo bigaragara ko ariwe uri kubaganiriza inyuma yabo hari ibyapa biranga bikanavuga ibyabereye aho hantu ndetse hari n'abaganga bahagaze hafi y'amadirishya.

Abantu ubona bambaye impuzankano y'amabara y'ubururu imbere yabo hari icyapa cy'ikigo cy'igihugu kizwi nka UNICEF cyimakaza ibijyanye n'ubuzima bigaragara ko hatangiwe amahugurwa ajyanye n'ubuzima.

Umugore ubona ko ari gukaraba kuri kandagira ukarabe yubakishijwe ibiti, hariho n'akavido k'umweru ubona ko karimo amazi, ari gukaraba amazi meza bigaragara ko ari kwimakaza isuku yirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Umusitari uzwi nka mbonyi, ari gutamika umwana bambaye imipira isa, bigaragara ko ari kubafasha kugira ubuzima bwiza, hari n'abamama kandi na bo bateruye abana babo, bigaragara ko abafasha, mu kubatera inkunga kugira ngo abana babashe kugira ubuzima bwiza.

Ivomero rusange ubona rihurirwaho n'abantu benshi, imbere hari umwana ubona ko yaje kuvoma uri kuvomera akabido gatoya, haruguru yaryo hari umuhanda ubona uri gucamo abantu benshi higanjemo abanyeshuri bavuye ku ishuri. Hari n'undi munyeshuri umwe ubona ariwe uri kuvomera uwo mwana.

Ivomero rusange ubona rifite amavomero abiri atandukanyije impande bigaragara ko abantu iyo babaye benshi buri wese agira aho avomera, hari kandi n'abantu benshi ubona ko baje kuvoma kuri iryo vomero.

Abantu bakuru ubona bari mu ruhande rwabo, hakurya yaho bateganye n'abana bakiri batoya bambaye impuzangano bigaragara ko ari abanyeshuri bakiri bato, inyuma yabo hari umuntu bigaragara ko ari umurezi, bari guhabwa amahugurwa ku buzima.

Umuntu ubona uri ahantu imvura ishora amazi bigaragara ko ari kuyavoma imbere ye yicaye akana gato ubona kari kwitegereza ibyo akora bigaragara ko batagira ikibazo cy'ubuzima kubera gukoresha amazi mabi.

Ahantu ubona ko hari abantu benshi batandukanye, bisa nkaho hari gutangirwa amahugurwa ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, imbere yabo hari ameza maremare cyane ubona ko ariho amakayi yifashishijwe n'abo bantu. Bikaba bisa nkaho bari gufata ifoto y'urwibutso.

Abantu benshi cyane batandukanye, babona bahagaze ahantu, imbere yabo hari ibikoresho byinshi bitandukanye, ndetse n'ameza asa neza, ateguyeho ibitambaro byiza, bigaragara ko hari gutangirwa amahugurwa ajyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Umuntu ubona ko wirabura wambaye imyenda y'imikara, afite igitambaro yipfutse mu maso bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe, urabona ko ari n'ahantu ha wenyine.

Abantu benshi cyane ubona bicaye ku ntebe bigaragara ko hari gutangirwa ubukangurambaga ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, bigaragara ko imbere yabo hari abantu bari kubaganiriza.

Abagore batatu bakenyeye ibitenge bose biteze udutambaro mu mutwe kandi bose bafite inkoni, harimo umwe uteruye mwana bigaragara ko ari kumwonsa ariko bisa nkaho bose bafite ikibazo cyo mu mutwe.

Umugabo ubona ko ashaje, bigaragara ko afite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe, urabona ko, bamwambitse amapingu ngo atabasha kugira ibyo yangiza, inyuma ye hari abantu benshi cyane bigaragara ko, bamushungereye kubera ikibazo afite.

Umugabo ubona wicaye wenyine, wambaye imyenda isa nabi, bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe. Hari kandi n'abandi bamama ubona bicaye ku ntebe imwe, bari kumwitegereza bisa nkaho bashaka kumufasha kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza.

Icyapa kiri mu mabara y'umweru orange, icyatsi, ndetse n'ubururu, bigaragara ko ari icyapa cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima bwo mu mutwe.

Abantu benshi higanjemo abambaye impuzankano, harimo kandi n'umuntu ubona ko ari umunyamahanga, bisa nk'aho habereye amahugurwa ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, biragaragara ko bari gufata ifoto y'urwibutso.

Umusaza ubona ukuze wakutse amenyo wambaye ikigofero kibi ndetse n'umukenyero bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe ndetse afite n'icumu ari ahantu ha wenyine.

Umugore ubona ugeze mu za bukuru, ariko bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe, atetse ibiryo mu isafuriya, ubona ko ari mu giturage, y'umukara kandi acanye ku nkwi.

Umugore ubona wirabura wicaye ku ntebe, bigaragara ko yihebye, afite agahinda. Bisa nkaho afite ikibazo cyo mu mutwe. Inyuma ye urabona ko yicaye ahantu hasenyutse.

Umumama uteruye umwana, bigaragara ko yaje kumuvuza, hari kandi n'umuntu ufite agapimo kifashishwa n'abajyanama b'ubuzima, mu gupima Malariya bigaragara ko ari kumwereka ikibazo yabonye.

Abantu benshi ubona ko harimo n'umuntu ushinzwe umutekano, bigaragara ko barangije kuganira ku kibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe, inyuma yabo hari ibyapa kimwe cyerekana aho wanyura ugiye kuri Isange one stop center ndetse naho wagana ujya ku ibitaro bya Kacyiru, biragaragara ko abo bantu bari gufata ifoto y'urwibutso

Inzu nini yubatswe ku buryo bugezweho, bigaragara ko hatangirwa serivisi y'ubuzima bwo mu mutwe, bigaragara ko ariho abantu baza bafite ikibazo nk'icyo kugira ngo babashe kubakurikirana.

Ikirango kiri mu mabara y'umweru ndetse n'inyuguti z'icyatsi cyerekana ko ari umunsi wahariwe ubuzima ndetse n'itariki ko ari tariki icumi z'ukwa cumi uwo munsi uba.

Umugabo ubona wambaye imyenda yacikaguritse bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe; ari gusuhuzanya n'undi mugabo ubona udafite ikibazo, wambaye neza bigaragara ko agiye kumufasha, kugira ngo abashe gukurikiranwa akavurwa neza.

Umugore ubona ko afite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe wifubitse igitambaro wicaranye n'umukobwa ufite imisatsi miremire bigaragara ko ari kumuhumuriza kibazo afite.

Umu mama abona wambaye agapfukamunwa afite umwana mutoya ahetse ndetse n'undi mukuru umuhagaze iruhande bigaragara ko atetse igikoma.

Umugabo ubona ko ashobora kuba afite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe, bigaragara ko ku maguru basa nk'abamuboshye kugira ngo atabasha kugenda, yicaye ahantu ubona yuko ari ku mukeka, bigaragara ko ari aho avurirwa.

Umugabo ubona ko yambaye imyenda yacikaguritse kandi urabona ko asa nabi afite ibintu bidasobanutse. Bigaragara ko afite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe.

Umuntu wambaye igitenge bigaragara ko afite ibintu byinshi bisa nabi wicaye ahagenewe kunyura amazi bisa nkaho afite ikibazo cyo mu mutwe, yicaye ahantu ha wenyine yigunze nta wundi muntu bari kumwe.

Ahantu habereye amahugurwa ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, urabona ko hitabiriwe abantu benshi batandukanye, imbere yabo hateretse amazi, kandi buri wese arabona ko afite iyo arimo.

Ahantu hari abantu benshi, ubona higanjemo abana n'aba mama, imbere hari umwana ubona ko atishimye, ari kurira cyane amaso yatukuye, biragaragara ko uwo mwana afite ikibazo cy'ubuzima, hari n'undi mugore ufite inkwi zo gucana, bigaragara ko ari ahantu hahuriye abantu benshi, bari gushaka ibintu bitandukanye.

Icyapa cy'umweru cyandikishijweho amabara y'icyatsi ndetse n'ubururu, kivuga ku buzima bwo mu mutwe ndetse n'ibibazo bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse no gushishikariza abantu kugira ubuzima bwiza.

Umugabo wirabura ubona wipfutse mu maso bisa nkaho afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, hejuru ye hari utuntu ubona dupfunyitsemo ibintu byinshi bitandukanye.

Inzu nziza cyane yubatswe ku buryo bugezweho, imbere yayo hari ibyapa byerekana ko ari ibitaro bikuru by'Akarere biherereye Munini ndetse bari no gutanga ikaze ko uramutse ugize ikibazo wahagana.

Imodoka ifite amabara y'umweru ndetse hariho n'amagambo yandikishijwe ibara risa nk'icyatsi, bigaragara ko bagiye gutaha ivuriro ryubatswe mu karere ka Bugesera, inyuma yabo yayo hari abantu ubona ko batashye ibyo birori.

Abantu benshi bambaye imyambaro yiganjemo ibara ry'umukara ubona ko bicaye ahantu hari gutangirwa amahugurwa ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, bigaragara ko ari bufata ifoto y'urwibutso nyuma yo kurangiza amahugurwa hari abicaye imbere ndetse n'abahagaze inyuma yabo.

Ahantu hisanzuye ubona hatangiwe, ubukangurambaga ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, hari kandi n'umuntu ufite isakazamajwi bigaragara ko we afite icyo ari kubwira abandi, imbere yabo hari ameza ateretseho, amamashini ndetse n'amazi.

Ahantu habereye ubukangurambaga ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, hari umuntu ubona ko afite insakazamajwi bisa nkaho afite icyo ari kubwira abandi, inyuma ye hari umugabo ubona ko yarangaye wambaye umupira w'umukara.

Icyumba cyiza ubona cyabereyemo amahugurwa ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe harimo abantu benshi ubona bicaye mu ntebe zegamirwa z'imisego, imbere yabo hari umuntu bisa nk'aho ariwe uri kubaganiriza.

Umusore ugaragara nk'ukiri muto wicaye ahantu ha wenyine yambaye imyenda y'umukara. Yipfutse mu maso bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe inyuma ye hari ibintu ubona bipanze mu udukarito.

Umusore w'inzobe ubona ufite amenyo y'umweru, afite agakoresho kabugenewe mu koza amenyo, kameze nk'urudodo bigaragara ko ari gukora isuku mu menyo ye, yirinda umwanda ndetse n'indwara ziterwa na wo.

Umusore ubona munini, w'inzobe, ufite ubwanwa, ubona ko yishimye. Afite amenyo y'umweru bigaragara ko afite amenyo adafite ikibazo, afite ubuzima bwiza.

Umukobwa ufite imisatsi myinshi, wambaye isengeri y'umweru, afite igikoresho cyabugenewe mu koza amenyo bigaragara ko ari gukora isuku y'amenyo kandi afite amenyo akeye bisa nk'aho agerageza kuba akora isuku y'amenyo ye.

Ibikoresho bigezweho byifashishwa mu kuvura amenyo, hari intebe iteye nk'agatanda umuntu yicaraho igihe bari kumureba mu kanwa hari n'indi ntebe ubona ko yegamirwa isanzwe ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa igihe bari kuvura amenyo.

Icyumba ubona ko kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu kuvura amenyo mu buryo bugezweho, harimo kandi akantu ubona ko ari agatanda kifashishwa n'umurwayi kugira ngo aryameho umuganga abashe kubona mu kanwa ke bitamugoye ndetse n'intebe yicarwaho n'abategereje.

Insakazamashusho irimo imiterere itandukanye y'amenyo bigaragara ko hari umuganga wambaye uturindantoki uri kuyifashisha areberaho, kugira ngo abashe kuvura umuntu indwara zo mu kanwa.

Ahantu heza hisanzuye ubona ko hatangirwa serivisi y'ubuvuzi, hicayemo umugabo wambaye impuzangano y'abaganga, hari kandi n'ibikoresho byinshi byifashishwa n'umurwayi ndetse n'agatanda karyamaho umurwayi igihe bari kumwakira.

Ibitaro byiza cyane, byubatswe nk'umuturirwa, bigaragara ko havurirwa indwara z'amenyo, hasi kandi hari ahantu hazitiye, ubona ko hazitiye ibyo bitaro, ndetse n'umuhanda wifashishwa n'ababigana.

Umuntu uryamye hasi bigaragara ko afite ikibazo cy'amenyo, ari ahantu bigaragara ko hatangirwa serivisi y'ubuvuzi, hari kandi n'abandi bantu babiri umukobwa n'umuhungu bigaragara ko bari gukurikirana iki kibazo bafite ngo babashe kumuvura amenyo bari gukoresha ibikoresho bigezweho byabugenewe mu gusuzuma no kuvura amenyo.

Umuntu mukuru uri kumwe n'umwana bose bambaye imipira y'umweru. Bafite agakoresho kifashishwa mu koza amenyo gatoya gafite ishusho y'urudodo, bigaragara ko buri wese ari koza amenyo ye.

Ibikoresho bigezweho biri ahantu bigaragara ko hatangirwa serivisi z'ubuvuzi, ni ibikoresho byinshi bigezweho byifashishwa mu kuvura indwara z'amenyo, hari kandi n'intebe ubona ko yicaraho umurwayi.

Umwana mutoya ndetse n'umumama bose bambaye imyambaro y'umweru, ndetse banafite n'ibikoresho byabugenewe mu gusukura amenyo, bigaragara ko umubyeyi ari gutoza umwana we gukora isuku y'amenyo.

Umwana muto ubona ko afite ikibazo cy'amenyo ari ahantu kwa muganga ari kumwe n'umuganga uri kumukurikirana, wambaye agapfukamunwa ndetse yambaye n'uturindantoki, afite igikoresho cyabugenewe mu gukoresha mu kanwa k'umurwayi.

Umwana ubona ukiri mutoya, bisa nk'aho afite ikibazo cy'impengekerane, hari kandi n'umuganga ubona ko agiye kumufasha, ufite ibikoresho bigezweho mu kuvura indwara z'amenyo ndetse wambaye n'uturindantoki.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho, byifashishwa kwa muganga, mu gusuzuma ndetse no kuvura amenyo ku buryo bugezweho, ndetse n'intebe ubona ko zikoreshwa n'abavura izo ndwara, ndetse n'utubati babikamo ibikoresho bitandukanye, byo kwa muganga.

Umusore utambaye hejuru w'imibiri yombi ubona ko afite agakoresho kabugenewe mu gusukura amenyo kameze nk'urudodo bigaragara ko ari kugerageza gusukura amenyo ngo abashe kugira ubuzima bwiza.

Umusore ubona wishimye yicaye ahantu, inyuma ye hari umuntu ubona ko ari umuganga wambaye uturindantoki afite n'agakoresho kifashishwa mu kugenzura amenyo bigaragara ko yarari gukurikirana uwo musore ndetse uwo musore arishimye bisa nk'aho yishimiye uburyo yakiriwe.

Igishushanyo cyifashishwa n'abaganga, bareberaho uburyo amenyo y'umuntu ateye, bifashisha kugira ngo babashe kuvura umurwayi waje bagana, ndetse banamenye ikibazo afite ndetse n'icyo bamufasha.

Umuganga wambaye uturindantoki, ndetse n'imyambaro yabo, afite ibikoresho bigezweho byifashishwa mu kuvura ndetse no gusuzuma indwara zo mu kanwa, hari kandi n'umuntu ubona ko afite icyo kibazo, bari kugerageza kumuvura.

Abantu batandukanye babona bashinzwe ibijyanye n'ubuzima bigaragara ko basuye ikigo cy'amashuri. Hari umuganga umwe ufashe igishushanyo cy'amenyo cyifashishwa mu kuvura ndetse no kureba uko amenyo yo mu kanwa ateye, ubona ko ari kumwe n'umunyeshuri ari kubyereka yifashishije igikoresho cyabugenewe mu gusukura amenyo amwereka uko bayasukura.

Igishushanyo cyifashishwa kwa muganga mu kureba imiterere y'amenyo ndetse n'uburyo atondetse kugira ngo babashe kuvura abarwayi baje babasanga, bakigendeyeho.

Umusore ubona ufite ikibazo cy'amenyo hari kandi n'umuganga ubona ko ari kumukurikirana ufite ibikoresho bigezweho byabugenewe mu gukura cyangwa mu kureba iryinyo rifite ikibazo akabasha kurivura.

Umumama uryamye ugaramye ubona ko afite ikibazo cy'amenyo, hejuru ye hari abantu bambaye impuzankano yo kwa muganga ndetse n'uturindantoki, umwe muri bo ari gukora mu menyo ye bigaragara ko ari kureba ikibazo afite.

Umusore w'imibiri yombi ubona ko afite igikoresho cyabugenewe, kiri mu ishusho y'urudodo cyagenewe koza ndetse no gusukura amenyo bigaragara ko ari kuyasukura.

Umukobwa w'imibiri yombi ubona wicaye ku ntebe, bigaragara ko afite indorerwamo ari kwireberamo uko amenyo ye ameze, afite amenyo meza y'umweru bigaragara ko agerageza kuyakorera isuku yo mu kanwa.

Icyumba kinini kigari kandi kisanzuye, kirimo utubati babikamo ndetse harimo n'utuntu wagirango n'udutanda bigaragara ko hifashishwa bavura amenyo ndetse no gusuzuma indwara zo mu kanwa.

Umusore ubona wishimye afite amenyo meza y'umweru bigaragara ko ayakorera isuku ari kumwe n'umuganga ufite igikoresho cyabugenewe mu kureba uburyo amenyo atondetse ndetse n'uburyo asa bigaragara ko ari kumwerekera kuri icyo gikoresho.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu kuvura amenyo mu buryo bugezweho, kigizwe n'intebe ndetse n'ahagaragara nk'agatanda umuntu aryamaho ari kuvurwa amenyo.

Umusore w'irabura wambaye umupira wibara ry'umweru, afite amenyo meza cyane y'umweru ari guseka arishimye cyane bigaragara ko amenyo ye nta kibazo afite.

Igishushanyo cy'amenyo cyifashishwa iyo bari kuvura amenyo, bagenderaho kugira ngo babone uko bavura umurwayi ndetse banamenye ikibazo afite, babashe kumukurikirana.

Umwana mutoya w'inzobe ubona ko afite ikibazo cy'amenyo hari umuganga wambaye imyenda y'umweru ndetse na ga mu ntoki bigaragara ko ari kumufasha kumuvura, afite ibikoresho bigaragara ko asa nkaho ari kumukura iryinyo.

Umuntu ubona ko afite ikibazo cy'amenyo ari kumwe n'umuganga wambaye impuzankano yabo wambaye n'agapfukamunwa ndetse n'uturindantoki, biragaragara ko ari gukora mu kanwa k'umurwayi ngo abashe kumenya ikibazo afite.

Umukobwa mwiza ubona w'imibiri yombi, ufite amenyo y'umweru bigaragara ko agira isuku y'amenyo kandi bigaragara ko agerageza kwivuza ndetse no gusuzumisha indwara z'amenyo.

Umusore ubona ko yaje kwa muganga kwivuza amenyo yicaye ku ntebe yegamijwe, imbere ye hari umuganga wambaye impuzankano y'abaganga ndetse n'uturindantoki afite igikoresho bifashisha bavura ndetse bakanakura amenyo yagize ikibazo.

Abamama bakuru, ubona ko bacuruza imboga n'imbuto, imbere yabo hari inyanya, inyuma yabo hakaba imbuto z'amaronji. Bigaragara ko bose, bacururiza aho hantu.

Umugabo wambaye impuzankano ubona ko ariyo kwa muganga afite agakoresho kifashishwa mu kumva niba umuntu umutima we ukiri gutera ari kumwe n'umumama ufite inkoni bigaragara ko ari umurwayi ari gukurikirana bose barishimye bisa nkaho uwo muntu waje kwivuza yishimiye uburyo ari kuvurwamo.

Umugabo ubona ko ageze mu za bukuru, afite igikoresho bifashisha bakora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo umubiri wabo ubashe gukora neza ari kumwe n'umuganga ubona ko ari kubimufashamo.

Umusaza n'umukecuru ubona ko bari mu za bukuru, bisa nkaho umusaza afite ikibazo cy'uburwayi umukecuru akaba ari kumwereka uburyo yanywamo imiti kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza, ku meza begeranye hari amazi ndetse n'utuntu turimo ibinini bigaragara ko uwo musaza agiye kubinywa.

Umuntu ubona uri mu zabukuru, bigaragara ko ari gukina igisoro. Biragaragara ko bashaka ko ubuzima bwe bugenda neza kugira ngo mu mutwe hakomeze hakore.

Abantu ubona bageze mu zabukuru bambaye imyambaro yabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri, bari mu muhanda urabona ko bari kugenda uko bashoboye ngo babashe kugira ubuzima bwiza.

Umumama ubona ko akuze afite mu ntoki ibikoresho byabugenewe mu kugorora amaboko umuntu yifashisha igihe ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo amaboko ye abashe kurambuka neza agire ubuzima bwiza.

Umuryango ubona wishimye cyane bigaragara ko bafite ubuzima bwiza, harimo kandi n'akana gatoya bigaragara ko bose bakaruta kicaye imbere yabo ndetse n'umusaza n'umukecuru ubona ko aribo bakuru b'umuryango.

Umusaza ubona ageze mu za bukuru ari kumwe n'umuntu bigaragara ko ari umuganga ari kumwitaho amufasha kugira ubuzima bwiza, ari kumukora mu mugongo bisa nk'aho ari kumva uko ameze ndetse no kumukandira aho yaba yaragize ikibazo.

Abantu batatu ubona ko harimo umwe ugeze mu za bukuru n'undi wagira ngo ni umumama ukiri muto ndetse n'umwana mutoya, urabona ko bishimye cyane bigaragara ko imbere yabo hari ameza bamaze gufungura, umwana afite utwo kurya mu ntoki afashe ndetse n'abandi barishimye cyane ubona ko baryohewe n'ubuzima bwiza.

Umusaza ubona ukuze ufite imvi nyinshi bigaragara ko agendera mu kagare, ari kumwe n'umuntu ukiri muto ubona ko ari kumusunika, bigaragara ko ari gutuma yishima kandi akanamwibagiza uko ameze kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza.

Umusaza ubona ugeze mu zabukuru, wicaye mu kagare kifashishwa n'abantu bafite ikibazo, ari kumwe n'umwana mutoya cyane bigaragara ko, bari gukora ibintu bimwe kugira ngo abashe, kugira ubuzima bwiza, kandi yumve ko ari kumwe n'abantu.

Abantu babiri ubona ko bari gukora imyitozo ngororamubiri, harimo umugabo umwe ubona ko ashaje ndetse n'umukobwa ubona ko akiri muto bisa nkaho ariwe uri kumushishikariza gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza.

Umugabo ubona ugeze mu za bukuru bigaragara ko arwaye, afite ibinini mu ntoki ndetse n'amazi yo kubinywesha, ari kumwe n'umugore nawe ubona ushaje bisa nk'aho ari kumwibutsa amabwiriza, ndetse n'uburyo yanywa iyo miti.

Umuntu ubona ko ageze mu za bukuru ari kumwe n'abandi bantu bigaragara ko bari kumwitaho, abo bantu bo baracyari batoya bisa nk'aho bari kumufasha kugira ubuzima bwiza ndetse no kumwereka icyizere cy'ubuzima.

Abantu babiri ubona ko bageze mu zabukuru, imbere yabo hari amafunguro menshi atandukanye yiganjemo imboga n'imbuto, bigaragara ko bashaka gusaza bafite ubuzima bwiza. Bose bari kurebana bigaragara ko bishimye.

Umugabo wambaye imyenda yabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri. Urabona ko akuze afite agakoresho bifashisha barambura amaboko. Ari kumwe n'umuntu ubona ukiri muto uri kumufasha kugorora amaboko wambaye impuzankano y'abaganga, bisa nkaho ari kumufasha kugira ubuzima bwiza.

Umugabo ubona ugeze mu za bukuru, afite ibikoresho bigaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri, bigaragara ko ashaka kugira ubuzima bwiza, ndetse no gukomeza gukomera.

Abantu ubona ko bari ku meza bari gufungura ibiryo bisa neza byiganjemo imboga, bigaragara ko ari umuryango urimo abantu bakuze bari kurya neza, kugirango babashe kugira ubuzima bwiza.

Ihuriro ry'abantu ubona higanjemo abakuze ndetse n'urubyiruko ubona bishimiye uburyo ubuzima bwabo bugenda neza, bari ahantu ubona ko hahinze ibihingwa byinshi bitandukanye nabyo bimeze neza biragaragara ko bari gufata ifoto y'urwibutso.

Umuganga ubona ko yambaye impuzankano y'abaganga, hari kandi n'umuntu ubona ko ageze mu za bukuru waje amugana, ari kumushyiraho igipimo cyabugenewe mu gupima umuvuduko w'amaraso, bigaragara ko ari kwita ku buzima bwe kugira ngo asaze afite ubuzima bwiza.

Abantu benshi cyane ubona bambaye impuzangano yiganjemo umweru, imbere yabo hari n'abandi bantu bambaye imipira y'umukara, ndetse n'undi muntu umwe ubona ko yambaye ibidasa nk'iby'abandi, hari kandi n'ameza imbere yabo, bateretseho ibintu bigaragara ko hari gutangirwa amahugurwa ajyanye n'ubuzima.

Icyapa kiri kumenyesha abantu ko hari amahugurwa ndetse n'ubukangurambaga ku byerekeranye n'ubuzima kiramenyesha abantu ibizavugirwamo ndetse n'umunsi n'isaha bizabera no kubakangurira kubyitabira.

Udukoresho ubona twifashishwa mu gupima ndetse no gusuzuma indwara izwi nk'ubushita bw'inkende bigaragara ko bari gukora ubukangurambaga ndetse no kurwanya iyo ndwara ndetse no gupima abantu bose baba baranduye.

Icyapa cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima cyerekana uburyo wahagarika indwara ya coronavirus ndetse n'uburyo wayirinda kinatanga amahugurwa ko igihe wahura n'umuntu uyirwaye wakwitabaza urwego rubishinzwe.

Nyakubahwa madamu Jeannette Kagame, urabona ko afite ibyo ari kuvuga, imbere ye hari insakazamajwi, bigaragara ko hari abantu ari kuganiriza, ku bijyanye n'ubuzima ndetse anahugura abantu mu kwirinda indwara zitandukanye ndetse no kwimakaza isuku.

Ahantu ubona ko hari abantu benshi bambaye udupfukamunwa, ubona ko habereye amahugurwa yerekeranye n'ubuzima. Buri muntu wese uhari yambaye agapfukamunwa, bamwe muri bo imbere yabo hari n'uducupa turimo umuti wifashishwa mu gukaraba intoki.

Icyapa kiri guhugura abantu ku bijyanye no kwirinda indwara ya diyabete, bari kwerekana ko ari icyumweru cyahariwe kurwanya iyo ndwara ndetse bakanavuga ibizakorwa muri icyo cyumweru.

Ahantu ubona habereye ubukangurambaga ku bijyanye n'ubuzima, hitabiriwe n'abantu benshi bicaye ,imbere yabo hari abantu ubona ko aribo bayoboye ayo mahugurwa, bigaragara ko hari ibintu bari kubabwira ,hari kandi n'icyapa imbere bigaragara ko kiriho amafoto y'abantu benshi batandukanye.

Abantu benshi ubona biganjemo urubyiruko, bambaye impuzangano ifite ibara ry'umweru, bigaragara ko imbere bafite ibyapa biburira, bikanabwira abantu kwirinda kanseri y'ibere ndetse no kwisuzumisha hakiri kare ngo ubashe kuvurwa.

Ikirango kiri mu mabara y'umweru n'ubururu ndetse n'inyuguti zanditse hasi nazo ziri mu mabara y'umweru, bigaragara ko ari ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda.

Ahantu ubona ko habereye amahugurwa ku bijyanye n'ubuzima hari abazwi nk'abamanseli bambaye impuzankano ibaranga, batatu ndetse n'umugabo umwe ubona ko afite ibyo ari kuvugana n'umwe muri bo.

Icyapa kimenyesha abantu ko hari umunsi mukuru wahariwe kwamamaza ndetse no kwigisha ibijyanye n'ubuzima, barerekana kandi igihe bizabera, itariki, ndetse n'isaha, ndetse n'abazaba bari aho hantu. Banabashishikariza ko nta wemerewe kubura.

Ahabereye amahugurwa yerekeranye n'ubuzima, hari abantu ubona bicaye mu ntebe zegamirwa, bigaragara ko bakurikiye umuntu uri imbere yabo uri kubabwira, ari gukoresha ibikoresho bigezweho mu gusobanurira abantu, ndetse afite n'insakazamajwi, bigaragara ko ashaka ko abantu bose bamwumva.

Abantu ubona, bafite icyapa kiri gutanga amahugurwa mu gukoresha ubwirinzi. Mu gihe ugiye gukora imibonano mpuzabitsina, ukoreshe agakingirizo; kugira ngo urusheho kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina.

Icyapa kimenyesha abantu ndetse kikanaburira abantu mu kurwanya indwara ya sida, igituntu ndetse na malariya kikanabigabanya kikongera ubuzima bwiza.

Itangazo ry'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima kizwi nkaRBC kibwira abantu kwikingiza urukingo rwa covid cumi n'icyenda ko uba ufite ubwirinzi buhagije ndetse kinakangurira abantu kwiteza urwo rukingo.

Ahantu higanjemo abantu benshi bu rubyiruko, imbere yabo bafashe icyapa cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima cyerekana ko ndetse kikanaburira urubyiruko ko arirwo mbaraga z'igihugu bakwiye kwirinda virusi itera sida ndetse no kwipimisha.

Abantu benshi ubona bicaye ahantu heza kandi hameze neza, imbere yabo hari abantu ubona ko bari kubyina imbyino gakondo, bigaragara ko habereye ubukangurambaga mu kwirinda indwara ya virusi itera sida, ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda.

Inzu yubatse ku buryo bugezweho, hariho icyapa cyandikishijwe amabara y'umweru, bigaragara ko ari aho babagira abarwayi bafite ikibazo cyo kubagwa.

Ahantu hari ibikoresho byinshi bitandukanye, hari kandi n'umuntu uryamye ku gitanda bigaragara ko hatangirwa serivisi z'ubuvuzi biragaragara ko arembye. Hari ibikoresho imbere ye ubona byagenewe kongerera amaraso ndetse no gutanga imiti umurwayi urembye.

Inzu nini cyane yisanzuye ubona iteye amarange y'umweru, ndetse n'amabati y'ubururu, bigaragara ko itangirwamo serivisi yo kubyaza, ndetse ko ari naho haruhukira ababyeyi bamaze kubyara, ndetse n'abategereje kuza kubyara.

Ni ahantu bigaragara ko hatangirwa serivisi z'ubuvuzi hari abantu ubona ko ari abaganga bambaye impuzankano z'umweru ndetse n'umuntu ubona ko ari umurwayi wakiriwe, inyuma ye harigakoresho kifashishwa mu kwerekana amashusho y'uburyo umurwayi ubuzima bwe buhagaze ,ndetse n'umuganga uri kumukurikirana.

Abamama bane ubona bambaye impuzankano bigaragara ko bakora kwa muganga inyuma yabo hari inzu nini cyane yubatse ku buryo bugezweho ikoreshwa n'abamama babyara ndetse n'aho baruhukira bamaze kubyara.

Icyumba kigari kirekire kandi kisanzuye bigaragara ko hagenewe kwicara abantu bategereje kwivuza. Hari abantu benshi ubona ko baje bagana iryo vuriro ndetse n'undi muntu uhagaze wambaye agapfukamunwa.

Inzu nziza cyane yubatswe ku buryo bugezweho imbere yayo hari icyapa cyerekana ko ari ivuriro rya kigina, winjiyemo imbere hari amazu ubona ko afite amabara y'umuhondo ndetse n'amabati y'ubururu hari kandi n'umugore uhagaze inyuma y'ivuriro uhetse umwana bigaragara ko yaba agannye iryo vuriro.

Ibitaro byiza byubatswe ku buryo bugezweho, harimo ibikoresho byinshi cyane bitandukanye bifite imimaro itandukanye nabyo bigezweho higanjemo ibitanda abarwayi baryamaho, hari udutebe two kwicaraho, ameza yo guterekaho ibintu ndetse n'ibindi bitandukanye bigaragara ko hatangirwa serivise y'ubuvuzi buhamye.

Icyumba kigari kandi cyisanzuye ubona kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye bikoreshwa kwa muganga. Hari n'intebe ubona ko yicarwaho n'umuntu waba uje aho ngaho ndetse n'ahagenewe gukarabirwa intoki.

Inzu yubatswe ku buryo bugezweho yisanzuye ubona ko hatangirwa serivise zo kubyaza ndetse hanaruhukiramo ababyeyi bamaze kubyara, inyuma yayo hari abantu ubona ko bari kuhagana bisa nkaho bari gusura ababyeyi bari muri iyo nzu.

Inzu nziza cyane yubatswe ku buryo bugezweho iteye amarangi meza anogeye ijisho, hari kandi n'intebe zo kwicaraho nziza z'imisego, bigaragara ko hatangirwa serivisi z'ubuvuzi.

Icyumba kigali kirimo ibikoresho byinshi byifashisha ikoranabuhanga mu kuvura abarwayi barembye, harimo kandi n'umuganga ubona ko hari ibyo ari gukora akoresheje ibyo bikoresho, harimo n'intebe abantu bakicaraho baba bagannye ibyo bitaro.

Icyumba kinini ubona kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye bigaragaza ko ari kwa muganga, hari kandi n'ibitanda byinshi bishashi neza biriho amashuka y'umweru ndetse n'ubururu, abantu baryamaho iyo barembye; ndetse n'ibitambaro bitandukanya igitanda n'ikindi.

Inzu nziza cyane yubatswe ku buryo bugezweho bigaragara ko, hatangirwa serivisi y'ubuvuzi, imbere yayo hari abantu benshi cyane ubona ko bahangana, harimo n'abambaye impuzankano yo kwa muganga, bari mu muhanda bigaragara ko wagenewe kunyurwamo n'abaje kuri ibyo bitaro ndetse n'imiyoboro y'amazi, iri hirya y'uwo muhanda.

Mu cyumba cyisanzuye kigari kirimo amarangi y'umweru, harimo kandi ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa kwa muganga, harimo kandi n'insakazamashusho bigaragara ko yifashishwa n'abahakorera ndetse n'abahagana.

Icyumba kinini kisanzuye kirimo amatara manini cyane, bigaragara ko ari kwa muganga, harimo kandi n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kwakira abarwayi, hari n'intebe z'imisego minini, bigaragara ko ari izicarwaho n'abagana iryo vuriro.

Ibitaro ubona byubatswe ku buryo bugezweho harimo inzira zabugenewe mu kugenda n'amaguru, harimo kandi n'ubusitani bwiza burimo ibiti bitandukanye bigaragara ko bituma abantu babasha kugira umwuka mwiza bagana ibyo bitaro.

Ahantu ubona ko hari ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa kwa muganga hari kandi n'abantubona bambaye impuzankano bigaragara ko bakora ahoho imbere yabo hari ameza ariho ibikoresho bitandukanye ndetse n'amavuta ari mucuupa yo guteka.

Umugabo wambaye umwambaro uranga ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda, hari kandi n'umurwayi ubona ko yaje amugana bigaragara ko hatangirwa serivisi y'ubuvuzi. Uwo mugabo yamwambitse igikoresho cyabugenewe mu gupima umuvuduko w'amaraso kugira ngo abashe kumenya uko ubuzima bwe buhagaze.

Inzu nziza cyane ibibazo ku buryo bugezweho irimo ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga byifashishwa mu buryo bugezweho mu kuvura abarwayi, hari kandi n'umuntu ubona ko yambaye impuzangano y'abaganga, afite agacupa ubona ko karimo imiti ndetse yambaye n'uturindantoki, bigaragara ko hari ibyo ari gukoresha bimwe muri ibyo bikoresho.

Umukobwa wambaye impuzankano y'icyatsi bigaragara ko ari umukozi wo kwa muganga. Ari mu cyumba kigari kisanzuye kirimo ibitanda byinshi, bigaragara ko ari aho abarwayi baryama iyo baje kwa muganga.

Igikoresho kigezweho cyabugenewe mu gusuzuma imbere mu mubiri w'umurwayi uko hameze, kiri mu cyumba cyisanzuye kigali bigaragara ko ari mu ivuriro, hari kandi n'ibindi bikoresho harimo n'isaha yereka abaganga aho amasaha ageze.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kuvura abantu barwaye, harimo kandi umusaza ubona ko arwaye ariko wishimye, ari kumwe n'umuganga wamwakiriye bigaragara ko ari kumwakirana yombi kuko bose barishimye ubona ko umusaza amubwira icyo arwaye yishimye.

Icyumba kirimo umugore ndetse n'umwana muto cyane, ubona ko ari icyumba yabyariyemo. Hari kandi n'umuganga ubona ko wambaye impuzangano ndetse n'agapfukamunwa bigaragara ko ariwe uri kumukurikirana.

Inzu nziza cyane, yubatswe ku buryo bugezweho, harimo kandi intebe nziza z'imisego ndetse n'ameza, bigaragara ko hatangirwa serivisi zo kuvura abantu. Izo ntebe, bikagaragara ko zicarwamo n'abategereje kwakirwa.

Inzu nziza yubatse ku buryo bugezweho ifite amadirishya menshi y'ibirahure bigaragara ko hatangirwamo serivisi yo kwivuza hanze hari abantu bigaragara ko bambayeye iryo vuriro n'imbere hagaragara abantu bambaye impuzangano bigaragara ko ariho bakora.

Inzu nziza yubatswe ku buryo bugezweho, bigaragara ko ifite imiryango itandukanye. Hariho icyapa cyerekana ko bacuruza imiti itandukanye ndetse naho wababariza na nimero ya telefoni. Hariho kandi n'ubwishingizi bukorana nabo. Imbere yaho haparitse moto ndetse n'abantu ubona ko baje bahagana.

Ibitaro bikuru biherereye kabutare, bizwi nka isangage wani sitopu senta, imbere yabyo hahagaze abantu benshi, ubona ko bari gufata ifoto y'urwibutso bose bambaye udupfukamunwa.

Inzu itangirwamo serivisi y'ubuvuzi, harimo umuntu ubona ko yambaye impuzankano y'abaganga, wambaye n'ikirango cy'akazi bisa nkaho ari gukingira umurwayi waje umusanga.

Inzu nziza cyane yubatswe ku buryo bugezweho bigaragara ko ari ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi, hari kandi n'abantu benshi bambaye impuzangano y'ibara ry'umweru bafite n'udukapu ubona ko bashaka kwinjira muri iryo vuriro.

Inzu nziza cyane yubatswe ku buryo bugezweho ifite amarangi yiganjemo umweru n'icyatsi ifite ibyapa bigaragaza ko hacururizwa imiti ndetse kandi hari n'ubwishingizi bwinshi butandukanye bakorana, mw’imbere harimo umu mama ndetse n'abandi bantu ubona ko bagiye kugura imiti.

ahantu hanini ubona hisanzuye hicaye abantu benshi batandukanye, higanjemo abagabo ndetse n'abagore bigaragara ko habereye amahugurwa ajyanye n'ubuzima, buri wese bisa nk'aho akurikiye ibiri kuhavugirwa.

Inzu yisanzuye yubatswe ku buryo bugezweho ifite amatara menshi harimo kandi n'ibikoresho bigaragaza ko hatangirwa serivisi zo kwivuza, harimo ibitanda byinshi ndetse n'ibitambaro bitambitse bitandukanya imiryango irimo ibitanda ndetse n'indi.

Icyumba kigari kandi kisanzuye, kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye, bakoresha kwa muganga, bigaragara ko byifashisha ikoranabuhanga, kugira ngo bibashe kuvura, hari kandi n'ibitanda ubona biriho umurwayi, ndetse n'ibindi byifashishwa n'abandi barwayi bahagana.

Inzu nziza cyane yubatswe ku buryo bugezweho ifite amarangi yiganjemo ayumweru hanze gato hari ahantu hateye ururabo rwiza rufite amababi y'icyatsi ndetse n'icyapa cyerekana ndetse kika nayobora abantu.

Ibitaro binini cyane byubatswe mu buryo bugezweho biherereye mu mujyi wa Kigali bizwi nka Legacy, byamenyekanye mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye, imbere yabyo ahagenewe guparikwa ibinyabiziga, haparitse imodoka nyinshi zitandukanye, ndetse n'umuntu wambaye umupira w'umutuku bigaragara ko yaje kuri ibyo bitaro.

Inzu yubatse ku buryo bugezweho bigaragara ko hatangirwa serivisi z'ubuvuzi, hari kandi n'icyapa kigaragaza ibyo bakora, hari kandi n'umuhanda munini ubona ukoreshwa n'abagana ibyo bitaro.

Ahantu ubona ko hatangirwa serivisi y'ubuvuzi hari umuntu ubona ko ari umuganga wambaye uturindantoki, hari n'abagore babiri ubona ko bageze mu za bukuru, baje kureba uko ubuzima bwabo buhagaze bisa nk'aho uwo muganga ariwe uri kubafasha.

Inzu nziza cyane byibazwa ku buryo bugezweho, imbere yayo hari icyapa kigaragaza ko hakorera ibitaro bikuru bya nyarugenge. Hari kandi n'ahagenewe guparikwa ibinyabiziga ndetse n'igiti kimwe giteye aho hantu.

Ibikoresho bitandukanye, bigaragara ko ari kwa muganga, ahafatirwa ndetse hakanasuzumirwa ibizamini by'abarwayi. Bifasha abaganga kumenya icyo umuntu arwaye, ndetse bakabona n'uko bamwandikira imiti yamufasha kumuvura.

Inzu nziza cyane, yubatswe ku buryo bugezweho, bigaragara ko hacururizwa imiti, imbere kandi hari ibyapa byinshi bigaragaza ubwishingizi bukorana nabo, ndetse n'imbere hari amasikariye yagenewe kunyurwaho n'abagana iyo nzu.

Mu ibitaro bigari kandi byisanzuye ubona byubatswe ku buryo bugezweho hariho kandi ibyapa byerekana ko ari ibitaro bikuru bya Gihundwe byifashishwa mu kuvura amaso.

Inzu nziza cyane yisanzuye, harimo kandi n'igikoresho kinini k'ikoranabuhanga, cyifashishwa mu buryo bugezweho, mu kureba uko mu mubiri w'umuntu hahagaze.

Umuganga wambaye impuzankano yabugenewe ku baganga, yambaye n'uturindantoki afite urukingo urabona ko ari gukingira umusore nawe wicaye bisa nk'aho ari kumukingira indwara runaka.

Inzu nziza cyane yubatswe ku buryo bugezweho iteye amarangi yiganjemo ibara ry'ubururu, imbere yayo hari abantu ubona ko bahagannye, hari kandi n'imodoka iparitse ahagenewe guparikwa ibinyabiziga byaje kuri ibyo bitaro.

Inzu nziza cyane yubatswe mu buryo bw'umuturirwa ifite amabara y'umweru ndetse n'amabati y'ubururu imbere yayo hari icyapa bigaragaza ko ari ikigo nderabuzima cya kanyinya bigaragara ko hatangirwa serivisi z'ubuvuzi imbere y'ibyo bitaro hari umuhanda mwiza w'amabuye ubona ko wagenewe kunyurwamo n'abagana ibyo bitaro.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye ndetse n'abaganga, biragaragara ko ari mu bitaro harimo abaganga benshi batandukanye buri wese afite ibyo arimo ndetse harimo n'undi umwe ubona ko ari gukurikirana umurwayi w'umukecuru wicaye mu kagare wambaye agapfukamunwa bigaragara ko nawe ari kumuha ubutabazi.

Ahantu hisanzuye ubona hatangirwa serivisi y'ubuvuzi. Urabona ko hari imiryango myinshi ndetse n'intebe zicarwaho n'abagana ibyo bitaro. Mo imbere winjiye harimo ibikoresho byinshi bitandukanye bigezweho, byifashishwa mu kuvura abarwayi indwara zitandukanye.

Inzu nziza cyane yubatswe ku buryo bugezweho bigaragara ko hatangirwa serivisi zo kwivuza, imbere yayo hari abantu benshi cyane bigaragara ko baje kwivuza ndetse n'ahandi hantu ubona ko hicaye abantu ndetse n'imodoka, iparitse ahagenewe guparikwa ibinyabiziga.

Inzu yubatse mu buryo bugezweho bigaragara ko ari ikigo nderabuzima. Hariho icyapa cyerekana aho bakirira abarwayi ndetse n'icyapa cyanditse mu mabara y'umukara bigaragara ko ari ikigo nderabuzima n'aho bakirira abakigana. Hicaye abantu benshi bigaragara ko baje kwivuza.

Inzu nziza yubatse mu buryo bw'umuturirwa bigaragara ko ari ibitaro binini kandi byagutse, imbere yabyo ahagenewe guparika ibinyabiziga haparitse imodoka ndetse na moto, hari kandi n'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda. Hejuru harimo n'abantu ubona ko baganye ibyo bitaro

Inzu nziza yubatse ku buryo bugezweho, yandikishijweho amagambo yanditse mu ibara ry'umukara bigaragara ko ari ikigo nderabuzima cya Rwerere, imbere yacyo hari ubusitani bwiza buteyemo indabo zitandukanye, hari kandi n'umuhanda w'igitaka ubona ko ariwo ukoreshwa n'abagana icyo kigo nderabuzima.

Inzu nini cyane yubatswe ku buryo bugezweho bigaragara ko itangirwamo serivisi y'ubuvuzi, imbere yayo hari imodoka eshatu ubona ziparitse ahagenewe guparikwa ibinyabiziga hari kandi n'umuhanda mwiza wa kaburimbo bigaragara ko ukoreshwa n'abagana ibyo bitaro ndetse n'ibyapa bigaragara ko biyobora abaganye aho hantu.

Inzu nini yubatse ku buryo bugezweho ifite amadirishya menshi ndetse n'imiryango myinshi byose by'ibirahure, bigaragara ko hatangirwa serivisi z'ubuvuzi butandukanye ndetse ko banavura indwara nyinshi zitandukanye.

Ibitaro bikuru by'akarere ka Nyarugenge biherereye mu mujyi wa Kigali, byubatse neza ubona binini byisanzuye, imbere yabyo hari ubusitani bwiza ndetse n'ahagenewe guparikwa ibinyabiziga by'abahagana.

Icyumba gitoya ubona kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kwa muganga, harimo kandi n'igitanda bigaragara ko ari ikiryamwaho n'umurwayi warembye ndetse n'utubati ubona ko tubikwamo ibintu bitandukanye.

Abantu bambaye impuzangano y'amabara y'ubururu ndetse n'udupfukamunwa tw'amabara y'ubururu, bigaragara ko bakora ku bitaro byamamaye biherereye mu mujyi wa Kigali, bizwi nka Legacy, byifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye mu Rwanda.

Ivuriro ryubatse mu buryo bugezweho riteye amarangi y'umuhondo ndetse n'amabati y'ubururu ndetse handitseho amagambo yerekana ko ari ikigonderabuzima cya Shagasha, imbere yaho hicaye abantu ubona ko baje bakigana.

Abantu benshi ubona bari ahantu hasa nko kwa muganga, bigaragara ko hari umuntu imbere yabo uri kubaganiriza ku bijyanye no kurwanya ihohoterwa z'abantu bageze mu zabukuru ndetse no muri aba bantu higanjemo abashaje.

Ahantu hisanzuye ubona hari abantu benshi, bigaragara ko hatangirwa serivisi y'ubuvuzi, hari n'icyapa cyerekana ibyo bakora, inyuma y'abantu hari imodoka ndetse hari n'intebe bicayeho bigaragara ko bategereje kwakirwa.

Inzu nini yubatse ku buryo bugezweho bigaragara ko ari inzu y'ababyeyi bifashisha baje kubyara cyangwa se baruhukiramo bamaze kubyara imbere yayo hari ubusitani bwiza ndetse n'indabyo.

Ahantu hisanzuye ubona harimo ibikoresho byinshi byifashishwa kwa muganga, hari kandi n'umuntu ubona ko yambaye imyenda isa iri mu ibara ry'icyatsi bigaragara ko akora aho hatangirwa serivisi z'ubuvuzi.

Ahantu ubona ko hatangirwa serivisi y'ubuvuzi, hari kandi umuntu ubona ko yambaye impuzangano bigaragara ko akora aho, hari n'umuntu uryamye ku gitanda bigaragara ko arembye cyane uwo muganga akaba ari kumwitaba.

Inzu nini ifite amarangi y'umuhondo ndetse n'amabati y'ubururu, imbere yayo hari ubusitani ubona bwisanzuye ndetse hateyemo n'igiti, inyuma yayo hari izindi nzu nazo ubona ko zubatse mu buryo bumwe ndetse n'uruzitiro ruzitiye ayo mazu.

Icyumba kigari kandi cyisanzuye ubona ko kirimo ibikoresho bitandukanye bigezweho byifashishwa kwa muganga, bikoreshwa n'ikoranabuhanga. Hari kandi n'ameza ubona yagenewe guterekwaho ibintu ndetse n'utubati twifashishwa mu kubikamo ibintu. Hari kandi n'indi miryango ubona myinshi itandukanye, bigaragara ko ari ahakirirwa abantu bitewe n'icyo bagiye gukorayo.

Inzu nziza cyane yubatswe ku buryo bugezweho, ifite amabara yiganjemo ay'umweru, imbere yayo hari intebe nziza ubona z'imisego, bigaragara ko ari izateguriwe kwicaraho abahagana.

Icyumba cyisanzuye kirimo ibikoresho byabugenewe mu kugorora ingingo z'abantu ndetse no kugorora neza abantu bagize ikibazo cy'imvune bigaragara ko ari ibikoresho byiza kandi bigezweho byifashishwa mu myitozo ngororamubiri.

Inzu nziza cyane, irimo ibikoresho byinshi bitandukanye, irimo abantu bambaye impuzankano, bigaragara ko ari abaganga bakorera kuri ibyo bitaro, imbere yabo hari ameza ariho ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa kwa muganga, hari n'undi ubona ko hari ibyo ari kubereka.

Umuganga wambaye impuzankano y'abaganga ndetse yambaye n'agapfukamunwa, urabona ko hari umurwayi waje umugana bisa nk'aho afite igikoresho cyabugenewe mu gupima umuvuduko w'amaraso kuba barwayi.

Ahantu hubatswe umuzenguruko ukozwe n'amabuye, hateyemo kandi n'indabo bigaragara ko ari ubusitani bwiza, ndetse n'igiti kirekire, munsi y'igiti hicaye umuntu w'umugabo, ubona ko yaje agana aho hantu bigaragara ko hatangirwa serivisi y'ubuvuzi.

Umuganga wambaye impuzangano yabo, urabona ko ari kumwe n'umuntu wagize ikibazo cy'imvune mu ivi, birasa nk'aho umuganga amufashe akaguru ari kumufasha ngo abashe kumenya ikibazo yagize amuvure.

Umuntu ubona ko ari gukora imyitozo ngororamubiri yambaye imyenda yabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri ariko urabona ko asa nk'ukanda mu mavi bisa nk'aho afite ikibazo mu mavi yicaye ahantu ubona mu busitani bwiza hagenewe gukorerwa imyitozo.

Icupa ririmo amazi meza, bigaragara ko ari umuntu uri kuyasuka mu kirahure kinini, cyiza, bigaragara ko umuntu agiye kuyanywa, arangije imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa unanutse w'imibiri yombi, wambaye imyenda yabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri. Urabona ko ari kugerageza kwigorora mu ivi, ndetse n'ikirenge. Bigaragara ko ashaka ko ubuzima bwe bugenda neza.

Umusore ubyibushye ubona ko avuye gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye agapira bigaragara ko ari ako gukorana imyitozo, mu ijosi rye harimo isume bigaragara ko ashobora kuba agiye koga, afite n'icupa ry'amazi ari kuyanywa cyane, bigaragara ko yari ananiwe.

Umusore wirabura wambaye imyenda yabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri, biragaragara ko amaze gukora imyitozo, afite icupa ririmo amazi ari kuyanywa ayashaka cyane bisa nk'aho yari ananiwe.

Umuntu ubona wicaye, ahantu bigaragara ko yagize igikomere, hasi y'ivi gatoya, mu gihe yakoraga imyitozo ngororamubiri, afite agapfuko yashyize kuri icyo gikomere kazwi nk'ubutabazi bw'ibanze, bigaragara ko ari gusubiza ku murongo aho yagize ikibazo.

Umusore wirabura, wambaye umwambaro w'umukara wifashishwa mu myitozo ngororamubiri, afite icupa ry'amazi, ari kunywa amazi, bigaragara ko arangije gukora imyitozo ngororamubiri.

Umusore munini ubona ko yambaye imyambaro yifashishwa n'abakora imyitozo ngororamubiri, afite icupa ry'amazi ari kunywa amazi bigaragara ko amaze gukora imyitozo ngororamubiri akaba ananiwe.

Umukobwa ubona ko ari gukora imyitozo ngororamubiri yambaye umwambaro wabugenewe mu gukora imyitozo ndetse ku kaboko ye hariho igikoresho bifashisha babikamo telefoni zigendanwa mu gihe cy'imyitozo ngororamubiri, bigaragara ko ari gutuma ubuzima bwe bugenda neza.

Umusore munini wambaye imyenda yabugenewe gukora imyitozo ngororamubiri, bigaragara ko avuye gukora imyitozo, afite icupa ririmo amazi meza, bigaragara ko ari kuyimena mu maso kugira ngo abashe kuruhuka.

Umuti gakondo wifashishwa n'abagize ikibazo cy'ibikomere igihe bari mu myitozo ngororamubiri, ufunitse mu ducupa dufite ibara ry'umweru ndetse n'icyapa bigaragara ko kiri gusobanura uburyo ukoreshwa ndetse n'uko witwa.

Umusore ubona wambaye imyambaro yagenewe gukoreshwa mu myitozo ngororamubiri bisa nkaho yagize ikibazo ku kirenge igihe yakoraga imyitozo, hari kandi n'umuganga ubona ko ari kumukorera ubutabazi bw'ibanze kugira ngo imvune idakomera.

Umukobwa unanutse ufite imisatsi myinshi yambaye imyambaro yabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri, urabona ko ari kugorora ikirenge kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza.

Umuntu ubona wambaye imyambaro yabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri, bigaragara ko ari kugorora ukuboko neza, cyane cyane ahagana mu nkokora bisa nk'aho ashaka ko akaboko ke kagororoka.

Umusore ubona wambaye ikabutura ngufiya, hejuru ntakinintu yambaye, yambaye n'inkweto zagenewe gukoreshwa mu myitozo ngororamubiri urabona ko ari kugerageza kugorora amaguru ye bisa nkaho ari gushaka ko ubuzima bwe bwagenda neza.

Umukobwa ubona ko ari gukora imyitozo ngororamubiri yambaye imyenda yabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri, ari kuyikorera ahantu hari utubumbano turimo indabyo ubona ko ziteretse ahantu bisa nkaho ari gushaka kugira ubuzima bwiza.

Umugabo wirabura munini wambaye umwambaro bifashisha bakora imyitozo ngororamubiri, afite icupa ryamazi bigaragara ko ashaka kunywa amazi, bishoboka ko yaba avuye gukora imyitozo.

Imiti ifunitse ahantu wagira ngo ni muducupa, bigaragara ko yifashishwa n'umuntu wagize ikibazo asoje imyitozo ngororamubiri cyangwa akaba yagize igikomere mu bundi buryo ikaba yifashishwa nk'ubutabazi bw'ibanze.

Ahantu ubona hagenewe gukorerwa imyitozo ngororamubiri hari abana benshi ubona ko bakiri bato bambaye imyambaro yagenewe gukoreshwa mu myitozo ngororamubiri imbere yabo hari umwana umwe ubona ko ari kugerageza gukora imyitozo yimakaza ubuzima bwiza.

Icupa ririmo amazi meza cyane y'urwererane, inyuma yaryo hari amazi ubona ko yamenetse, bigaragara ko yifashishwa anywebwa n'abantu bavuye mu myitozo ngororamubiri.

Igikoresho gifite ibara ry'umutuku kizwi nka bande bifashisha igihe umuntu yaba yagize ikibazo cy'imvune bakabikora nk'ubutabazi bw'ibanze kugira bamurinde ko imvune yagumya kwiyongera.

Umusore munini wambaye isengeri y'umukara ndetse n'agakomo k'icyatsi, afite icupa ry'amazi ari kunywa bigaragara ko ananiwe nkaho amaze gukora imyitozo ngororamubiri.

Umusore wambaye imyenda yagenewe gukoreshwa mu myitozo ngororamubiri ndetse n'inkweto. Birasa nkaho yagize ikibazo mu mavi, arahafashe, ari kwikanda, biragaragara ko yaba yagize imvune mu gihe yakoraga imyitozo.

Ahantu ubona habereye amahugurwa y'abantu benshi, hicaye kandi abantu ubona ko bari imbere y'abandi, bafite ibikapu bitukura ubona ko harimo ibikoresho binyuranye byifashishwa nk'ubutabazi bw'ibanze igihe umuntu yahuye n'imvune cyangwa igikomere.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri wambaye imyenda yabugenewe mu gukora imyitozo ndetse n'inkweto, urabona ko ari kugorora ingingo ze zose yibanze ku kuguru ndetse n'ukuboko.

Umuntu wabona w'inzobe bisa nkaho yagize ikibazo igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri, afite agatambaro gafite ibara ry'ubururu, ari kukikandisha mu mavi bisa nkaho ariho yakomeretse.

Ahantu hari ibintu byinshi bitandukanye, harimo icyuma cyifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, ndetse n'imbuto zitandukanye ndetse n'imboga wakwifashisha umaze gukora imyitozo, kugira ngo ubashe kugira ubuzima buzira umuze.

Umuntu wambaye ikote ryabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri, ari kumwe n'undi muntu bisa nkaho ari kumufungira uturindantoki twabugenewe mu gukora imyitozo, kugira ngo adakomereka mu kiganza.

Icupa ririmo amazi meza cyane ubona ko ari umuntu uri kuyasuka mu kirahure cy'umweru kibengerana bigaragara ko agiye kuyanywa arangije gukora imyitozo ngororamubiri kugirango ngo amufashe kugira ubuzima bwiza.

Ahantu ubona ko ari ikibuga cy'ibitaka, hari abantu benshi bigaragara ko bari gukora imyitozo ngororamubiri, higanjemo abana ndetse n'abantu bakuru, bigaragara ko abo bakuru ari bo babayoboye mu gukora imyitozo.

Umuntu wicaye ku gitanda bigaragara ko ari ibitanda byo kwa muganga. Urabona ko yagize ikibazo cy'imvune, bari kumufasha kumushyiriraho ubutabazi bw'ibanze. Ari kumwe n'umuntu bigaragara ko ari we uri kubimukorera.

Umusore wambaye imyambaro yagenewe gukoreshwa imyitozo ngororamubiri wambaye n'inkweto bigaragara ko ari kugorora ukuguru kugira ngo kubabashe gukora neza ndetse anagire ubuzima bwiza.

Umuntu wambaye imyambaro yabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri, biragaragara ko amaze gukora imyitozo afite icupa ririmo amazi ari kunywa bigaragara ko yari ananiwe.

Umukobwa wambaye imyambaro yagenewe gukoreshwa mu myitozo ngororamubiri, bigaragara ko ari kwigorora ingingo ze zose. Imbere ye hateretse icupa ririmo amazi, bigaragara ko ari ayo kunywa igihe yananiwe.

Umuntu ubona wambaye imyambaro yabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri, urabona ko afite agatambaro bisa nk'aho ari ku kifashisha, yagize ikibazo mu mavi, akaba ari kwikanda.

Abantu ubona ko bari gukora imyitozo ngororamubiri, birukanka, bambaye imyenda yabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri, mu ntoki zabo bose bafite uducupa tw'amazi, bigaragara ko ari ayo baza kunywa igihe bumva bananiwe.

Umusore w'inzobe ubona ko yambaye imyambaro akoresha mu myitozo ngororamubiri afite icupa ry'amazi ari kunywa ndetse na telefone mu ntoki biragaragara ko ari kunywa amazi kuko amaze gukora imyitozo.

Umuntu bigaragara ko yavunikiye mu myitozo ngororamubiri, akaba yavunitse mu kiganza, hakaba hari umuntu uri kumuha ubutabazi bw'ibanze amushyiriraho ibikoresho byabugenewe mu kugabanya imvune bizwi nka bande.

Umusore ubona munini w'imibiri yombi wambaye imyambaro yabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri. Biragaragara ko avuye gukora imyitozo, afite icupa ririmo amazi ari kuyitera mu maso bisa nk'aho yari ananiwe cyane.

Abagabo babiri bari ahantu heza kandi hisanzuye hari ibikoresho byinshi byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, umwe muri bo arapfukamye bisa nkaho ari gukora imyitozo undi nawe ahagaze bisa nkaho hari icyo ari kumufasha.

Abantu ubona bari mu myitozo ngororamubiri buri wese afite igikapu, bigaragara ko ari gutwaramo ibyo akeneye, hari umwe uhagaze undi wicaye bisa nk'aho ari kuruhuka, afite n'icupa ry'amazi arikunywa.

Igikoresho kizwi nka bande cyifashishwa mu gihe umuntu ari gukora imyitozo ngororamubiri akagira imvune, bikifashishwa nk'ubutabazi bw'ibanze buhabwa buvunitse igihe ataragera kwa muganga.

Imiti myinshi itandukanye ndetse n'ibikoresho byinshi bitandukanye, bizwi nk'ubutabazi bw'ibanze bafashisha abantu bagize ikibazo mu myitozo ngororamubiri, bakabona guhabwa ubutabazi bwo kwa muganga iyo byakomeye.

Umuntu wambaye imyenda yabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri, urabona ko yagize ikibazo cy'imvune ku maguru, bakaba bari kumuha ubutabazi bw'ibanze, ari kumwe n'umuntu wambaye umwambaro w'umutuku bigaragara ko ariwe uri kumufasha, inyuma yabo hari abandi bantu bicaye.

Imipira itandukanye bigaragara ko yifashishwa mu mikino itandukanye harimo iyifashishwa mu mikino y'amaguru ndetse n'iyifashishwa mu mikino y'amaboko ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu myitozo ngororamubiri.

Ibikoresho byinshi binyuranye, bigaragara nk'ubutabazi bw'ibanze buhabwa uwagize ikibazo mu gihe ari gukora imyitozo ngororamubiri cyangwa igikomere ndetse n'imvune. Byose bikaba ari ibintu wakwifashisha, ukamufasha kugira ngo abashe kumererwa neza.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye imyambaro yabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri, aryamye hasi bigaragara ko ari kugerageza kurambura ingingo zose.

Agacupa ubona ko karimo umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara, ariko inyuma yako hariho igikakarubamba, bigaragara ko uwo muti ukozwe n'igikakarubamba.

Imiti itandukanye ubona iri mu tubati, buri wose ufite ahantu uherereye, bigaragara ko buri wose ufite indwara gakondo uvura, hari kandi n'akandi kabati bigaragarako nako karimo indi miti myinshi itandukanye.

Imiti itandukanye ifunitse mu dukarito buri wose upfunyitse mu gakarito kawo bigaragara ko ari imiti y'ikigo kizwi nka global alliance gikorera mu Rwanda gicuruza imiti itandukanye ivura indwara zitandukanye ariko ikozwe mu bimera.

UUducupa twinshi tw'amabara atandukanye bigaragara ko harimo umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye. Hari kandi n'abantu ubona ko bafite ikibazo cy'imigongo ndetse no mu mavi, ndetse no mu nkokora mbese no mu ngingo zitandukanye, bishoboka ko iyo miti ivura ibyo bibazo.

Icyatsi kirekire kirandaranda, ubona gifite amababi y'icyatsi ndetse n'indabyo, bigaragara ko ari umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zinyuranye.

Igiti kirekire cyane, gifite amababi matoya, ubona kiri ahantu hari ibindi bimera, bigaragara ko ari umuti gakondo, wifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zinyuranye.

Akabido ubona ko karimo imiti ikozwe mu gikakarubanda ndetse n'ibikakarubamba bibisi, bigaragara ko ari imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zinyuranye.

Uducupa tw'amazi ubona turimo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye tukaba twiganjemo utubamo amazi ya nile ndetse n'inyange bigaragara ko harimo imiti ivura indwara zitandukanye.

Umuti gakondo ubona ufite amababi manini y'icyatsi kibisi bigaragara ko icyo giti kinagira utubuto, biragaragara ko ari umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye, hari kandi n'umuntu ubona ko yaje gusoroma uwo muti bigaragara ko ari guca ikibabi cyawo.

Umuti ufunitse mu gakarito hariho kandi n'ibinini bigaragara ko byose ari imiti ituruka mu bimera yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye y'ikigo kizwi nka gorobo ariyanse gikorera mu rwanda.

Imiti gakondo iri mu bikoresho gakondo byinshi bitandukanye ubona ko ikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye hari kandi n'umuntu ubona ko ari gusekura umuti umwe muri yo yifashishije igikoresho kizwi nk'isekuru n'umuhini bigaragara ko ari gutunganya iyo miti.

Umuti gakondo ubona wakuze ugakwira ahantu hagari, bigaragara ko ufite amababi y'icyatsi kibisi kandi ukura ukaba muremure bisa nkaho uvura indwara nyinshi zitandukanye.

Ni uducupa twinshi dutandukanye, ubona tunatandukanyije ingano bigaragara ko harimo imiti gakondo yifashishwa mu buryo bunyuranye ndetse ikanavura indwara nyinshi zitandukanye. Urabona ko iri mu kintu kimwe cy'akabati ariko buri wose ukaba uri ahawo, akabati kegamyeho umuntu ubona ko ariwe uyireba.

Uducupa ubona turiho ibishushanyo by'ikikarubamba bigaragara ko ari umuti gakondo wifashishwa mu gu kuvura indwara nyinshi zinyuranye higanjemo indwara zo ku mubiri inyuma.

Umuti gakondo ubona wakuze ugakwira ahantu henshi bigaragara ko wifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zinyuranye, ufite amababi y'icyatsi kibisi ndetse menshi.

Udutebo twinshi ubona turimo imiti itandukanye. Ifite amabara atandukanye yifashishwa mu kuvura indwara gakondo. Yiganjemo imiti y'ibyatsi, indabyo ndetse n'utundi tuntu ubona ko twumye. Bigaragara ko yifashishwa mu kuvura indwara gakondo zinyuranye .

Imiti gakondo y'ibyatsi bitandukanye ndetse n'ahandi ubona hari indimu bigaragara ko byose ari imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi kandi zinyuranye.

Ikimera kirekire ubona giteye ahantu mu bindi byatsi bigufi, bigaragara ko ari umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye, hari ibiganza ubona bigifashe bisa nk'aho byaje gusoroma uwo muti.

Icyatsi kirekire kirandaranda ubona kiri ahantu humye gifite amababi y'icyatsi, ndetse n'indabo zifite agatuku n'umuhondo, bigaragara ko kifashishwa nk'umuti gakondo mu kuvura indwara zinyuranye.

Icyatsi gitoshye, kirekire cyakuze, ubona kiri ahantu hari n'indi miti, bigaragara ko ari umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zinyuranye. Ifite amababi maremare y'icyatsi kibisi.

Umuti gakondo uri mu icupa ry'umweru, ririho icyapa cyerekana uburyo witwa, wifashishwa mu kuvura indwara ya amibe, hari kandi n'ibishushanyo bigaragaza uko mu nda y'umuntu haba hameze.

Imiti itandukanye yatunganyijwe ndetse n'ibyatsi bigiye biri ahantu hatandukanye ndetse n'imiti iri ahantu hatandukanye, bigaragara ko yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye.

Umuntu ubona wambaye umupira w'ibyatsi kibisi ndetse n'ikarita iranga akazi akora afite ibyatsi bigaragara nk'umuhati bisa nk'aho ari umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye hari kandi n'amadarapo inyuma ye bigaragara ko habereye umunsi mukuru w'imiti gakondo.

Umuti gakondo uri mu gacupa gafite ibara ry'umukara, hari umuntu kandi ubona w'inzobe cyane ugafashe mu ntoki bigaragara ko uwo muti uvura indwara nyinshi zinyuranye.

Igiti kirekire ubona ko ari umuti gakondo, kiri ahantu ubona ko hari ibyatsi byinshi ndetse n'ibiti bitandukanye, bigaragara ko icyo giti kivura indwara nyinshi zitandukanye.

Uducupa dutandukanye, tw'umweru, twegeranye, hejuru yatwo hari agacupa k'umuhondo, ubona karimo umuti uvanjemo igikakarubamba, bigaragara ko uvura indwara nyinshi zitandukanye, za gakondo.

Umuti ubona uri mu gashashi ugaragaza ingano yawo ndetse n'izina ryawo bigaragara ko ari umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye, uri ahantu h'ibara ry'umweru, uhari wonyine.

Imiti gakondo iri mu ducupa dutandukanye bigaragara ko imwe muri yo yakozwe mu gikakarubamba bigaragara ko ivura indwara nyinshi kandi zinyuranye.

Ibiti ubona ko ari umuti gakondo biri ahantu byiganje bifite amababi y'icyatsi kibisi atoshye, bigaragara ko ari umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye.

Isabune yifashishwa mu koga mu maso ndetse no ku mubiri wose, bigaragara ko ikorwa ivuye muri voka, ikaba yifashishwa nk'umuti gakondo mu kuvura indwara z'uruhu zitandukanye.

Icupa ubona ko ririmo amavuta akozwe mu gikakarubamba, bigaragara ko ari umuti wifashishwa mu kuvura indwara gakondo nyinshi zinyuranye, imbere yaryo urabona ko hari amagambo agaragaza ibirimo.

Uducupa tw'amabara atandukanye kamwe k'umuhondo kandi k'umweru ndetse n'akandi ubona ko gafite umweru udakeye neza, hejuru yaho hari utuntu ubona ko wagirango ngo ni igikakarubamba gikase bigaragara ko ari umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Imiti gakondo ubona ipanze ahantu henshi hatandukanye bigaragara ko itandukanyije ubwoko, bisa nkaho ivura indwara nyinshi zinyuranye higanjemo iy'icyatsi kibisi ndetse n'iyandi mabara.

Agasahane kariho imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, higanjemo indimu ndetse na tangawizi, ubona ko bikoreye isuku byifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye.

Umuti gakondo uzwi nk'umuravumba ufite amababi menshi cyane bigaragara ko uri ahantu wishimiye wifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zinyuranye.

Ishyamba ubona rinini, rigari kandi ryisanzuye, ririmo ibiti byinshi binyuranye ndetse n'ubwoko bw'ibyatsi butandukanye, ubona ko higanjemo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Imiti gakondo itandukanye, iri mu ducupa twinshi dutandukanye, bigaragara ko buri wese buri wose ufite icyo uvura, ndetse ko unakorwa n'ibintu bitandukanye, bikagaragara ko ivura indwara zitandukanye.

Icyatsi gitoshye kizwi nk'inyarabasanyi gifite amababi y'icyatsi ndetse n'uturabo tuzamuka dufite ibara ry'umweru cyifashishwa kivura indwara zitandukanye ndetse kinafasha komora ibikomere, kiri ahantu ubona naho h'icyatsi bisa nk'aho hateye ibindi bimera.

Imiti gakondo iri mu bintu bitandukanye buri wese ufite ikintu urimo ndetse buri wese ufite n'umwanya urunzemo bigaragara ko yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye.

Utubido dutandukanye ndetse n'utuntu wagirango ngo ni uducupa ubona turimo imiti ikozwe mu gikakarubamba ndetse hari n'igikakarubamba kibisi nacyo kirambitse hasi bigaragaza ko ari imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye.

Imiti gakondo yiganjemo ibyatsi ubona bifite indabo zitandukanyije amabara bigaragara ko itandukanye, bikaba binavuze ko ivura indwara nyinshi zinyuranye.

Umuti gakondo ufunitse mu gapaki, bigaragara ko wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye w'ikigo gikorera mu Rwanda kizwi nka golobo alianse.

Umuti gakondo ubona ko wiganje aha hantu, bigaragara ko wifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye. Hari kandi n'amababi yagiye ahunguka, bigaragara ko yumye.

Agakarito gapfu gafunitsemo umuti utangwa n'ikigo kizwi nka ariyanse bigaragara ko ivura uvura indwara nyinshi zitandukanye. Ufunitse neza mu gakarito gafite amabara yiganjemo ay'ubururu.

Icyatsi ubona gifite amababi y'icyatsi kibisi gitoshye, gikuze neza ubona ko kiri ahantu cya honyine, kifashishwa mu kuvura indwara gakondo zinyuranye.

Imiti ifunitse, ubona ko iva mu bimera, itangwa n'ikigo gikorera mu Rwanda, kizwi nka aliyanse ,bigaragara ko ikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Uducupa twinshi dutandukanye, turimo imiti gakondo, yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, higanjemo amacupa y'umweru, ariko biragaragara ko buri muti wose utandukanye n'undi, bivuze ko inavura indwara zitandukanye.

Ibyatsi byiganje ahantu hanini, ubona ko bifite amababi y'icyatsi kibisi, bikura ntibibe birebire cyane, biri ahantu ha byonyine, ubona ko byafashe ahantu hanini harimo kandi abantu ubona ko bari kubisarura, kugirango babikoreshe mu kwivura indwara zinyuranye.

Icyatsi gifite amababi atoshye y'icyatsi kibisi, hasi hari amababi yahungutse yumye bigaragara ko ari ayahungutse kuri icyo giti, bigaragara ko cyifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye.

Ibibumbano bitandukanye birimo ibimera bigaragara nk'igikakarubamba, hari kandi n'akandi kantu ubona karimo ibikoresho byifashishwa mu koza amenyo, bigaragara ko ibyo byose ari imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Umuti gakondo ufite amababi atoshye y'icyatsi kibisi, bigaragara ko uri ahantu uteye ari wonyine, wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Imiti myinshi itandukanye ifunitse ahantu henshi hatandukanye, bigaragara ko ari imiti gakondo ituruka mu bimera byifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye.

Icyatsi ubona gifite amababi y'icyatsi menshi atandukanye, kiri ahantu ubona ko ari mu gihuru, bigaragara ko cyifashishwa mu kuvura indwara gakondo nyinshi zitandukanye.

Igiti kirekire ubona gifite amababi atandukanye, bigaragara ko cyifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye za gakondo.

Imiti gakondo iri mu bintu byinshi bitandukanye bifunitse, bigaragara ko yifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye, myinshi muri yo bigaragara ko yavuye mu gikakarubamba.

Umuti gakondo ubona wakuze urandaranda ugakwira ahantu hose ufite amababi y'icyatsi kibisi kandi menshi, bigaragara ko wifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zinyuranye.

Icupa bigaragara ko ririmo amavuta aturuka mu gikakaruhamba yifashishwa nk'umuti gakondo mu kuvura indwara nyinshi zinyuranye, hari kandi n'ikiganza abona ko gifashe iryo cupa.

Igiti kirekire cyane bigaragara ko kiri ahantu hari n'ibindi bimera bitandukanye. Cyarakuze gifite amashami menshi atandukanye, biragaragara ko ari umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zinyuranye.

Akabumbano gafite ibara ry'umweru kari mu ishusho y'isekuru, ndetse n'umuhini karimo imiti gakondo ndetse n'utundi ducupa turi mu ibara ry'umutuku dufundikije ibiti natwo ubona ko turimo imiti ndetse n'akandi kari mu ishusho y'igikombe karimo imiti, ndetse n'akandi kabonerana byose bigaragara ko byifashishwa mu gutegura iyi miti.

Ahantu ubona ko hahinze imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye, ikaba ari yo yiganje aho hantu, hari umugabo ubona ko yaje gusoroma iyo miti.

Uducupa dutandukanye ubona turimo imiti ndetse hashushanyijeho n'ibikakarubamba, bigaragara ko iyo miti iva mu bikakarubamba ndetse n'utundi dukarito ubona dufunitsemo imiti itandukanye, bigaragara ko ari imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye.

Imiti gakondo ifunze mu dupaki twinshi dutandukanye bigaragaza ko yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye, buri wose upfunyitse mu kantu kawo ndetse hari n'iri mu dukombe bigaragara ko yose itandukanye.

Igiti kigaragara nk'umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye giteye ahantu hari n'ibindi byatsi, inyuma yacyo hari abantu ubona ko bambaye imyenda y'umutuku ndetse n'abambaye imyenda y'umukara bigaragara ko baje gusoroma uwo muti.

Abantu benshi ubona higanjemo abagabo bambaye impuzangano y'icyatsi kibisi, urabona ko bagiye gutembera mu bidukikije, imbere yabo hari igikakarubamba kizwi nk'umuti gakondo bifashisha mu kuvura indwara nyinshi zinyuranye.